Umwana wirabura usutse wambaye ibitenge byiganjemo amabara y'umutuku, ari koga mu ntoki kuri robine yunamye, amazi ava muri robine agwa mu ibase isa umukara. Ahagaze imbere y'urukuta rw'amatafari ruri imbere y'inzu y'ubururu ifite amabati...

Abagabo bicaye ku meza azengurutse asa icyatsi, imbere yabo hari ibyo kunywa ndetse n'impapuro bari kwandikaho, bamwe bambaye amakoti asa imikara n'abandi bambaye imipira n'abandi bambaye amashati, bafite ibyo kunywa imbere yabo.

Abantu bari mu nama bicaye mu ntebe z'imikara bamwe bafite amazi imbere yabo, abandi bambaye amakoti y'imikara, imbere yabo hari abayoboye inama barimo abagabo n'abagore bicaye imbere y'icyapa cy'ubururu kinini cyandikishijeho amagambo y'umweru.

Abantu babiri bari mu cyumba kinini cy'inama, umugabo yambaye imyenda y'ubururu umugore yambaye imyenda y'amabara menshi arimo umukara, imbere hari intebe z'imikara ziteretse imbere y'ameza, inyuma hari icyapa kinini ndetse n'ishusho y'umuntu w'umwirabura.

Abantu benshi bahagaze mu mirongo ibiri bareba imbere, harimo abagore benshi ndetse n'abagabo benshi bavanze, inyuma yabo hari icyapa kinini kiriho amagambo y'umweru, gifite amabara y'ubururu ndetse n'ay'imyeru, hari igisenge kinini cy'umweru hejuru yabo.

Itsinda ry'abantu bicaye bakoze uruziga bari kuganira ku kintu, harimo abambaye ingofero, harimo abagore n'abagabo bavanze. Bafite impapuro mu ntoki zanditseho amagambo ndetse harimo n'abafite amakaramu, hari n'agacupa k'amazi hasi gasa ubururu.

Umugore wirabura wambaye igitambaro cy'umuhondo mu mutwe, ari kureba ibumoso bwiwe. Yambaye umupira wi'bara ry'icyatsi cyijimye, yicaye imbere y'urukuta ry'umweru rushushanyijeho akarabo gasa icyatsi n'umuhondo.

Umugore wirabura ufite isuka mu ntoki, yambaye ikote risa icyatsi n'umukara rikagiramo n'imirongo y'umweru, yikoreye igiseke gisa n'ibara ry'igitaka, ririmo ibihingwa by'ibyatsi bifite amababi ajya kuba manini ahagaze imbere y'inzu y'amategura.

Abantu benshi bakuze, harimo abagore babiri ndetse n'abagabo benshi, bafashe mu ntoki urupapuro, abenshi muri bo bambaye imipira y'imikara, bahagaze imbere, y'imodoka isa umweru ifunguye umuryango, iparitse imbere y'amatente y'imyeru.

Abagore babiri bahagaze imbere y'abantu benshi, umwe muri bo afite indangururamajwi n'agakapu mu ntoki, yambaye isaha n'igitenge kirimo amabara menshi. Uwundi yambaye umupira w'umutuku uriho amagambo y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abantu benshi bari mu cyumba bateze ibitambaro harimo abahetse abana bicaye ku ntebe z'imbaho, benshi muri bo bateze ibitenge. Hari umuntu uhagaze imbere usa n'uyoboye inama, yambaye agapfukamunwa ndetse inyuma ye hari ameza ariho icupa ry'amazi ndetse n'icyapa kimanitse ku gikuta.

Umugore wirabura wambaye amarinete, ufite imisatsi ijya kuba miremire, yambaye igitenge kirimo amabara menshi arimo umuhondo n'ubururu, yambaye ibikomo byinshi bisa nka zahabu afashe icyapa mu ntoki cy'amabara asa n'ivu ndetse n'ubururu.

Abana benshi bagera mu icumi, bari kurira, birabura, bateze intoki, harimo uwambaye umupira w'umweru n'ikote risa n'irongi, harimo uwambaye ikote risa n'umukara n'ishati y'umweru.

Abantu bagera kuri batanu bambaye imyenda y'amabara atandukanye ndetse b'abirabura, harimo abagore bane ndetse n'umugabo umwe wambaye umupira w'ubururu, inyuma yabo hari insina z'ibitoki n'ibindi biti by'mababi y'icyatsi cyijimye.

Abantu bakuze biganjemo abagore ndetse n'abagabo bahagaze ahantu imbere y'umuryango, iruhande rwabo hari icyapa kiriho amagambo yandikishije ibara ry'umweru ndetse kiriho amabara menshi agiye atandukanye.

Umwana wirabura ufite amenyo ndetse n'amaso yererutse cyane, afite uburoso mu ntoki bufite amabara y'umuhondo n'ubururu. Yambaye ishati nini y'amakora ifite ibara ry'ubururu, akaba ahagaze imbere y'igikuta gisa umweru.

Abakobwa babiri, umwe muremure n'undi mugufi, umuremure asa n'ukiri muto, umugufi yambaye amarinete ariko asa n'ukuze, umuremure yambaye umupira w'ubururu afashe urupapuro mu ntoki rwandikishijeho amagambo mu ikaramu isa ubururu n'aho umugufi afite urupapuro ariko ari kwandikishaho ikaramu ifite agapfundikizo k'ubururu.

Umukobwa wirabura ari kwireba mu kirahure araseka afite uburoso yashyize mu menyo, afite imisatsi miremire ndetse yambaye agasengeri gasa umweru, inyuma ye hari igikuta gisa umweru n'idirishya.

Umugabo wirabura wambaye amarinete ufite imisatsi y'imyeru mikeya n'uruhara, afite ikaramu ari kwandika mu ikayi isa umweru. Yambaye ikote risa nk'ivu ndetse n'ishati mo imbere isa icyatsi.

Abagore batatu, babiri bafite amakarita mu ntoki barimo baraseka, umwe arakuze afite imisatsi yererutse, yambaye agasengeri gasa umukara n'ikote risa umweru, uw'undi w'inzobe afite imisatsi miremire yikaraze n'umupira w'iroza.

Umugore ukuze ufite imisatsi ijya kuba umweru, ari kwigorora yambaye umupira usa ubururu, ipantaro isa umukara n'inkweto zivanzemo umweru n'ubururu, yicaye kumusambi wa siporo usa nk'ivu.

Umukecuru ufite imisatsi isa oranje, ari guhabwa imiti n'umukobwa w'imisatsi y'umukara, wambaye umupira w'ubururu ufite agakarito kavamo imiti mu ntoki, yambaye isaha isa nka zahabu.

Abantu benshi bari mu nama, imbere hicaye abagabo benshi n'umugore, abagabo bambaye amakoti ndetse n'amashati y'imyeru, inyuma yabo hari icyapa kinini kiriho amashusho y'abantu ndetse n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru.

Umugabo wirabura, uryamye ku gitanda cyo kwa muganga kandi munini, yambaye agapfukamunwa, yambaye ikabutura, ndetse n'umupira usa umukara, afite urushinge rumucometseho ku kaboko, ndetse rukaba rucometse no kuri serumu, impande ye hari imashini zisanzwe zo kwa muganga.

Amazu menshi atandukanye, harimo afite amabati asa ubururu, harimo n'afite amabati asa umutuku, harimo afite amagorofa menshi, ndetse n'afite igorofa rimwe, menshi muri yo afite amadirishya y'umweru.

Abagabo babiri, umwe yambaye ishati y'imirongo ndetse n'amabara menshi, undi yambaye umupira w'umweru ndetse n'agakote k'umukara na marinete y'umukara, inyuma ye hari kizimyamwoto ifite ibara ry'umutuku.

Umukobwa ufite ibisuko by'umukara birebire, yambaye amarinete abonerana n'agapfukamunwa gasa umukara ndetse n'amaherena asa nka zahabu. Yambaye itaburiya isa umweru, ari gukoresha mudasobwa isa umweru, ndetse ikagira aho kwandikira hasa umukara.

Abantu benshi bahagaze imbere y'icyapa gisa umukara cyandikishijeho amagambo y'umweru, harimo abazungu ndetse n'abirabura, harimo abagore ndetse n'abagabo. Bahagaze mu byatsi bisa icyatsi.

Abagore batatu birabura bambaye imyenda isa ubururu, bateze udutambaro dusa ubururu bwerurutse mu mutwe, bari guseka kandi bahagaze imbere y'ibyatsi cy'icyatsi cyerurutse n'ibiti bifite amababi y'icyatsi, harimo ayerurutse na yijimye.

Umugabo uri kwigorora afashe ku nkweto, yicaye mu byatsi, arirabura, yambaye inkweto z'umukara. Munsi afite inzara zisa umweru, yambaye isengeri y'umukara ifite imirongo iyizengurutse isa nk'ivu.

Umugabo wirabura ufite inyama nini, wambaye imyenda irimo isengeri y'umukara n'ipantaro y'umukara irimo n'ibara risa n'ivu. Yambaye inkweto zijya kuba umweru, inyuma ye hari igikuta cy'umweru kigiye kizengurutse.

Imashini ifite amabara menshi arimo umweru. umukara, ubururu ndetse n'ibara ry'ikirahure ribonerana, indiba ifite umukara n'umweru ndetse ikaba ifite amabara y'ubururu n'umweruru acomekeranyijemo n'ibirahure, ikaba iteretse imbere y'urukuta rusa nk'ivu.

Umuntu uryamye mu byatsi biciyemo imirongo y'imyeru, yambaye umupira w'ubururu, ikabutura y'umukara n'amasogisi y'umukara, undi ari kumukanda ku maguru apfukamye yambaye umupira w'ubururu ndetse n'ikabutura y'umukara.

Icupa ribonerana ririmo amazi, rifite n'umupfundikizo w'ubururu, imbuto nyinshi, harimo ironji, umugozi upima uburebure, igikoresho kiremereye gikoreshwa muri siporo, ndetse byose biteretse ku meza asa umweru.

Umukobwa w'umuzungu uri kwigorora ku musambi wa siporo usa ubururu, yambaye imyenda isa n'ivu, afite imisatsi isa na shokora. Inyuma ye hari amatafari ahiye asa umweru n'amadirishya abiri.

Umukobwa uri kwigorora wirabura ufite imisatsi myinshi, wambaye imyenda ijya kuba umweru, yicaye ku musambi ukoreshwa muri siporo usa ubururu, inyuma ye hari igikuta gisa nk'ironji.

Isahani iriho imineke n'inkeri isa umweru, isahani y'umweru iriho amagi n'inyama, agapfunyika karimo imboga zitandukanye, ibikoresho biremereye bikoreshwa muri siporo bisa umukara.

Umugabo wirabura munini usa n'ukuze, ari kwisukaho amazi ayakura mu icupa ribonerana rifite umupfundikizo w'umukara, yahumirije ndetse areba hejuru. Yambaye isengeri y'icyatsi n'agakomo gasa iroza ku kaboko.

Indobo ziteyemo ibiti bikiri bitoya bifite umubyimba mutoya, ibiti bifite amababi menshi kandi ajya kuba manini y'icyatsi kibisi. Indobo zimwe zisa imikara ari na zo nyinshi, harimo n'isa ibara risa n'igitaka.

Ibikombe byinshi by'amabara atandukanye, bigiye birimo ibihingwa bitandukanye bifite amababi y'icyatsi ndetse harimo n'igikarubamba. Harimo amababi asa icyatsi cyerurutse ndetse n'icyijimye, hakaba n'ibikombe birimo amababi asa n'indabo zisa umuhondo.

Icupa rifite umufuniko usa n'ironji rihiye, hasi hasa umweru, handikishijeho amagambo asa n'ironji, ndetse n'ifoto y'igikakarubamba ku icupa. Riteretse kandi ahantu hasa umukara inyuma.

Ibitunguru bibiri, kimwe gikasemo kabiri, ikindi cyuzuye, indimu ikasemo kabiri ibice bibiri byayo bigaragara neza, agacupa karimo ibintu bisukika bisa ibara rijya kuba umuhondo, gafite umupfundikizo usa na zahabu ndetse n'amagambo yandikishije ubururu.

Amacupa abiri afite amabara atandukanye ku mifuniko, rimwe rifite umufuniko usa n'ironji rihishije, irindi rifite umufuniko usa n'igitaka cyijimye. Imbere yayohateretseho imbuto zikase zisa n'imyembe, inyuma hari igikuta gisa n'icyatsi.

Amakarito menshi arimo ibintu bitandukanye, ndetse afite amabara atandukanye, harimo asa ubururu, harimo asa umuhondo, harimo asa icyatsi, ndetse n'umweru, hakabamo n'asa umutuku. Hari kandi n'ikarito isa umukara iriho imbuto z'ikawa.

Umugabo wirabura ufite amakarito menshi asa umutuku n'umuhondo, arimo gufungura ikarito, imbere ye hateretse uducupa twinshi dusa umukara dufite imipfundikizo y'umweru. Yambaye itaburiya isa umweru n'agapfukamu gasa ubururu bwerurutse.

Agacupa gafite umupfundikizo w'umweru ndetse na ko gasa umweru kazengurutswe n'urupapuro rwanditseho amagambo rufite amabara menshi harimo umweru, zi ibara rya zahabu ndetse n'ubururu, byandikishijeho amagambo y'ubururu n'ay'umweru ashushanyijeho igishushanyo cy'akanyoni.